Umutaka wa MTN ushinze ahantu hari umukozi wayo yicaye ku gatebe, aho hirya hari akandi kazuka MTN, kariho undi mukozi bakaba biteguye gufasha ababagana.

Umumotari utwaye moto atwayeho n'umugenzi, akaba ahagaze imbere y'akazu gakorerwamo na sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya MTN, aho harimo umukozi wayo bakaba bagiye kumwaka amayinite.

Akazu ka Airtel aho gakorerwamo n'umukozi ukorera iyi sosiyete itanga serivisi z'ibijyanye n'imiyoboro y'itumanaho mu Rwanda, aho hari umuntu uri kugenda agiye kumwaka serivisi zo kubikuza.

Umugabo wambaye akajire kanditseho Airtel akaba afite indangururamajwi mu ntoki aho ahagaze ari kuvuga, biragaragara ko ari kwamamaza iserivise Ikigo cya Airtel gitanga.

Umutaka w'ikigo cya Airtel, ukaba wicawemo n'abantu babiri. Harimo umukozi w'iyo sosiyete ndetse n'umukiriya waje kubikuza amafaranga. Bari kuganira baseka cyane kandi bishimye.

Umuhanda wa kaburimbo wubatswe neza cyane mu mabara y'umukara harimo n'uturongo tw'umuhondo tuwugabanyamo kabiri, ku mpande zawo hari inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho ndetse n'umutaka wa MTN.

Abantu bakorera sosiyete y'ikigo gitanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda cya Airtel baba bafite udupira twabugenewe bifashisha bari mu kazi, aho hari umugore uri kwita ku mukiriya aho afite telefoni mu ntoki ari kugenda amwereka imibare bakanda.

Akazu gatangirwamo serivisi zijyanye n'umuyoboro w'itumanaho mu Rwanda wa Airtel, kaba kari ahantu ku muhanda, haba harimo umukozi wako ugenda atanga serivisi ku baturage bagiye bakagana, hanyuma akabafasha.

Akazu gatangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ikigo gishinzwe gutanga imiyoboro n'itumanaho mu Rwanda cya MTN, gakunze kuba kari ahantu ku muhanda wa kaburimbo, aho iyo uhageze haba harimo umukozi akaguha serivisi wifuza.

Umuntu uhagaze imbere y'ahatangirwa serivise zigiye zitandukanye by'umwihariko nk'iza MTN ndetse na Airtel, akaba afite akagare imbere ye biragaragara ko yaje gushaka serivise aha hantu.

Ikarita igurishirizwamo simukadi y'umuyoboro utanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda wa MTN aho iri mu mabara y'umuhondo ikaba iri kwamamaza simukadi za 4G.

Umugabo wambaye agapira ka sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya MTN akaba yambaye n'udukomo, afite telefoni mu ntoki ari gukanda aho hari umugore waje kumwaka serivise wambaye agapira k'umutuku, aho ari kubikuza uyu mukozi nawe akamufasha

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho yateraniyemo abantu benshi cyane higanjemo abagabo ndetse n'abagore bari mu nama, aho harimo kandi n'abashinzwe umutekano bazwi nk'abadaso, bakaba bakurikiye umuntu uri kubagezaho ijambo.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe harimo abagabo ndetse n'abagore bari mu nama imbere hakaba hari umugabo uhagaze ufite indangururamajwi ari kubereka insanganyamatsiko bari kwiga yo guteza imbere ishoramari mu Karere ka Nyagatare.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bigaragara ko bari mu isoko, higanjemo ab'igitsina gore n'igitsina gabo, bafite inkweto ziri ku meza aho umugore ari kugenda abaza igiciro cyazo bamubwira uko zigura.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bateraniye hamwe bari mu nama, higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'ab'igitsina gabo, harimo abazungu ndetse n'abirabura, bakaba bari kwifotoza mu nyubako igezweho.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, bateraniye hamwe, higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo. Bahuriye ahantu hamwe, aho hari isafiriya batetsemo iri hagati bigaragara ko irimo ibyo kurya, bashaka kugaburira abana babo.

Umugore w'umuganga wambaye imyambaro iri mu mabara y'umweru ndetse n'akanozasuku mu mutwe, akaba ari kubwira abarwayi bose ngo uyu munsi turabavura, turajya turajya mwa kiriya cyumba kandi hagende haza umwe umwe.

Abantu bagiye batandukanye biganjemo ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo bakaba bari mu imurikagurisha aho bari kugenda bamurika banagurisha imyambaro igiye itandukanye harimo: amapantaro n'amashati, udupira ndetse n'inkweto.

Umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki, akaba ahagaze imbere y'agatuti ari kugenda avuga ijambo, rigaragaza ko hari icyo ari kugeza ku bantu b'abanyamuryango bamwitabiriye bamuteze amatwi.

Inyubako nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho isakaje amabati ndetse n'ibyuma bisa umutuku. Hakaba haberamo ibikorwa by'ububaji, aho abantu babariza muno bakorera muri koperative, hanyuma umusaruro uvuyemo bakawugabana.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, iteye karabasasa. Akaba ari inyubako amakoperative ahunikamo imyaka yayo, aho ari kujyayo abagore, bagiye kureba uko imyaka imeze ngo babe bayigurisha.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho yubatswe mu buryo bw'amagorofa. Ikaba igereretse inshuro zigera muri ebyiri ndetse ikaba ifite imbuga ishashemo amapave, ikaba iparitsemo kandi n'imodoka ntoya.

Umugore ufite indangururamajwi mu ntoki, akaba ahagaze ku ruvugiroriro afite indangururamajwi yambaye umupira w'ubururu, ari kugenda abwira abaturage ibyiza byo kugura ibicuruzwa ahangaha kuko bari kwamamaza.

Mu kabare haba harimo amoko agiye atandukanye y'ibinyobwa, aho nabyo biba biri mu mabara agiye atandukanye, igihe cyose ubishaka uragenda ukavuga icyo ushaka hanyuma bakakiguha ukishyura amafaranga.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho akaba ari inyubako ikorerwamo ibikorwa by'akabari, hakaba harimo intebe ndende umuntu agenda akicaraho bakamuha icyo kunywa akanywa yumva ameze neza cyane.

Umugore uri ahantu mu iduka aho acuruza ibintu bigiye bitandukanye, aho harimo ibicuruzwa byinshi cyane ibiri mu ndobo, ibiri mu macupa ndetse n'biri mu mashashi, ibyo waba ukeneye urugo byose wajya kubihahahira.

Amacupa agiye atandukanye aba ari mu iduka, aba arimo udukoresho tuzwi nka kirida twifashishwa mu gukura ibiryo cyangwa ibintu biba byahagaze hagati y'amenyo, turi mu mabara agiye atandukanye ku mipfundikizo, ubururu ndetse n'iroza.

AIuka ricuruza amoko agiye atandukanye y'ibikoresho, aho igikoresho cyose waba ukeneye wanyarukira hano bakakiguha. Harimo amabase, inkweto, ndetse n'ibiribwa bigiye bitandukanye byose wabihasanga.

Agakombe kari mu mabara y'umutuku kanditseho amagambo y'umuhondo gashushanyijeho ifi bigaragara ko kaba kari mu maduka karimo sarade iba itunganyijwe mu mu mafi kandi ikaryoha cyane kuko abantu benshi bayikunda.

Iduka ricuruza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, aho harimo umugabo uri gucuruzamo yambaye agashati k'amabara y'umweru n'ubururu ndetse n'umukara, akaba ari kwereka umukiriya waje kumugurira telefoni, amubwira ko wabasha kwishyura uyikoresheje.

Inyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubucuruzi, aho bacuruza amoko agiye atandukanye y'ibiribwa. Aho harimo amavuta, ji, amakaramu ndetse n'amakayi. Hakabamo amandazi, ibiraha ndetse na capati.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho iyi nyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse imbere yayo hakaba hatunze abaturage benshi, bigaragara ko ari ku rusengero bakaba bari kwifotoza.

Abantu benshi cyane bari ku rusengero aho bambaye imyambaro y'icyatsi, bakaba bafite udukoresho tugiye dutandukanye bari gutaha urusengero rushyashya bafunguye, aho hari umugore ufite umukasi umaze gukata akagozi kari gahari.

Ni mu rusengero aho hari abakozi b'Imana bagiye batandukanye. Abahereza bose bafite udupapuro tw'umuhondo ndetse padiri ari hagati yabo yambaye ikanzu y'umweru, n'iroza ari ukuvuga ngo nimugire amahoro y'Imana.

Abantu bagiye batandukanye bahuriye hamwe, aho imbere hari umusenyeri ndetse n'abapadiri babiri, bakaba bambaye amakanzu. Bari kugenda mu baturage, aho musenyeri ari kubwira abaturage ati: "Nyagasani Yezu nabane namwe".

Inyubako y'urusengero, iba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu materaniro kugira ngo agende neza, haba harimo utumeza, udututi ndetse n'uduseke bifashisha bari gutura mu gihe cy'amaturo.

Umugore wambaye amakositimu y'imyeru akaba ahagaze ahantu imbere afite indangururamajwi ari kuvuga, biragaragara ko ari mu nama kuko inyuma ye hicaye abantu benshi bagiye batandukanye bitabiriye iyo nama.

Inyubako itangirwamo serivisi za hoteli, aho haba harimo ahantu heza abantu bicara bakabakira, uraza ukicara, ukavuga icyo ushaka, hanyuma bakakwakira, warangiza ukishyura.

Muri hoteli haba harimo ibyumba bigiye bitandukanye bakiriramo ababagana aho iyo umuntu aje gushaka serivisi bamwakira neza bakamwitaho agataha yishimiye ku buryo n'ubutaha yazagaruka kuhashaka serivisi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bigaragara ko ari muri hoteli, hakaba ari mu cyumba gitangirwamo amacumbi, aho umuntu uje gushaka icumbi yishyura amafaranga bakamuha iki cyumba akararamo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ifite ubusitani buteyemo indabyo nziza cyane ndetse n'ibiti birebire bizana umuyaga n'amahumbezi, akaba ari inyubako ya hoteli aho bakirira abakiriya benshi bagiye batandukanye.

Abagabo benshi cyane bagiye batandukanye bambaye amakositimu bikaba bigaragara ko bari bari mu inama none inama irarangiye. Bateraniye hamwe muri iyo nyubako kugira ngo babashe gufata ifoto y'urwibutso.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, akaba ari inyubako ya hoteli, yakirwamo abakiriya bagiye batandukanye, bakagenda bishyura amafaranga, bitewe n'uko bakiriwe.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ya hoteli, aho hakorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, yakira abantu benshi cyane bagenda bayigana hanyuma umuntu akishyura amafaranga bitewe n'ibyo yariye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye. Ikaba ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru ndetse kandi ikaba ifite n'amarido n'ibikoresho bigiye bitandukanye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho isakaje amabati atukura ikaba iteye n'amarangi y'umweru ku bikuta, ifite ubusitani bwiza cyane buteyemo ibiti birebire bizana umuyaga n'amahumbezi.

amahoteli agiye atandukanye mu Rwanda, aba afite ibyumba byiza cyane aho ibi byumba bikunze gucumbikirwamo abantu baturutse kure, iyo bakeneye aho kurara kandi hakaba hizewe neza cyane.

Muri hoteli haba hari ibyumba byabugenewe, aho ibi byumba byakira abantu benshi bagiye batandukanye ndetse haba harimo n'ibitanda byiza cyane abakiriya baza bakaryamaho maze bakamererwa neza.

Abanyeshuri biga ibijyanye n'amahoteli baba bambaye imyambaro myiza cyane, utujiri, amashati y'umweru ndetse n'udupfukamunwa kugira ngo bagaragaze ko bagira isuku bita ku babagana neza.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, bakunze kuza mu mahoteli, kureba intore ziba zirimo zibyina neza zihamiriza, iyo uje rero, uba ugomba kugura icyo kunywa, hanyuma ukareba ibyiza biranga umuco nyarwanda, waryoheye amaso.

Umugore wambaye ishati y'umweru ndetse n'ijipo y'umukara. Akaba ari muri hoteli, bigaragara ko atanga serivisi ku baje bamuganye, igihe cyose wifuza serivisi, wagana muri imwe muri izi hoteli kuko bakira ababagana neza cyane.

Muri hoteli haba harimo ibyumba byiza cyane, bakunda kwakiriramo abaje babagana kugira ngo bumve baguwe neza kandi batekanye. Ni byiza cyane ko wajya muri hoteli gusabamo icumbi kuko bakwakira neza cyane.

Muri hoteli haba hubatse neza cyane haba harimo kandi n'amoko menshi agiye atandukanye y'inzoga, igihe cyose uhageze ni ngombwa ngo ubwire umuntu uhakora akaguha ibyo wifuza hanyuma nawe ukamwishyura bitewe na serivise yaguhaye.

Inyubako nziza cyane yubatswe neza mu buryo bugezweho ikaba ari hoteli yubatse ku mazi, aho iyo umuntu ayirimo aba ari kureba hakurya udusozi twiza duhari duteyeho ibiti bigiye bitandukanye bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyi nyubako ifite ibikuta biteye amarange y'umweru ndetse ikaba ifite ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko agiye atandukanye y'indabyo, akaba ari inyubako y'ikigo nderabuzima.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iri ahantu heza cyane akaba ari hoteli ikaba ifite icyapa cyanditseho amagambo mu ndimi zose, avuga ngo murakaza neza mu kinyarwanda, Icyongereza, ndetse n'igifaransa.

Umugabo uri kugenda ahantu avuye mu isoko ahetse igikapu bigaragara ko avuye guhaha, inyuma ye hari abandi bantu bakiri mu isoko bari kugenda bahaha ibyo bagiye bakeneye kugira ngo batahane iwabo mu rugo.

Isoko ricururizwamo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, aho ibi bicuruzwa ari ingenzi cyane kuko igihe cyose waba ubikeneye ugenda bakabiguha, hanyuma ukajya kubikoresha ku mafaranga make cyane.

Abantu bari mu iduka higanjemo abagore ndetse n'abagabo, aho bagiye kugura ibintu bigiye bitandukanye, hamanitsemo amoko agiye atandukanye y'imyenda ndetse hirya hari n'ibindi bicuruzwa by'ibiribwa bigiye bitandukanye.

Isoko ririmo amoko agiye atandukanye y'imbuto ndetse n'imboga biba byaremye isoko, aho biba bigiye bitandukanye icyo ushaka uza ukakigura ku mafaranga make, haba harimo inyanya, karoti, puwavuro, karoti ndetse n'imiteja.

Abantu bagiye batandukanye bari mu isoko higanjemo abakiri bato ndetse n'abakecuru, hakaba hari gucururizwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye biri mu mabara menshi ari yo: ubururu, umuhondo, icyatsi, umweru ndetse n'umukara.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe mu'isoko harimo urujya n'uruza, bakaba bagiye kugura no gucuruza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bakaba bambaye imyambaro iri mu mabara atandukanye umutuku, umweru, icyatsi ndetse n'ayandi.

Isoko ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye by'umwihariko nk'ibiribwa, hari imifuka myinshi irimo amoko agiye atandukanye y'ibiribwa, hari birimo umuceri, ibigori ndetse n'indi mifuka irimo umunyu n'ibindi.

Mu isoko haba harimo amoko menshi agiye atandukanye bitewe n'iyo ukeneye, iyo ukeneye ibinyamijumba uraza muri iri soko kuko harimo ibijumba byinshi uraza ukavuga iby'amafaranga ukeneye, hanyuma bakabiguha ukishyura ukitahira.

Akameza keza cyane kari mu mabara y'umukara, kakaba gakikijwe n'intebe nziza cyane zako, bikaba byerekana ko kari ku isoko kagurishwa, uramutse ugakeneye wakwegera aha hantu bakakaguha amafaranga make.

Isoko ririmo abantu benshi cyane bagiye batandukanye bariremye, aho baje kugura ibintu byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'abaje kugurisha. Harimo ibinyabiziga nk'amagare ndetse n'imodoka n'abantu baje guhaha muri iryo soko.

Isoko ricuruza ibikoresho bigiye bitandukanye by'umwihariko ibikoresho bya kijyambere harimo ibikombe, amasahani, amasafuriya, ibiyiko ndetse n'ibindi bikoresho byo mu rugo ku buryo ubikeneye wajya kuhahahira.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho akaba ari hoteli, aho haba harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye ku buryo iyo ukeneyemo serivisi ugenda ukicaramo hanyuma ababishinzwe bakakwakira.

Abantu benshi cyane bakunda kujya ahantu mu mahoteli cyangwa mu maresitora kuko haba hariyo ibyo kurya n'ibyo kunywa bigiye bitandukanye ndetse hakaba ari n'ahantu habafasha kuruhura mu mutwe.

Abantu bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo bicaye ku mapikipiki, rero ni byiza cyane ko watega ipikipiki mu gihe ufite urugendo rwihuta kuko bigufasha kugerayo vuba maze ntube wakerererwa.

Umugore wambaye kasike y'icyatsi akaba yambaye n'ajiri k'umutuku n'umweru akaba atwaye moto bigaragara ko ari umumotari, ubu ngubu mu Rwanda uburinganire bwaraje aho n'abagore basigaye baba abamotari.

Moto iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ikaba itwawe n'umumotari. Uwo mumotari akaba yambaye kasikie z'icyatsi ndetse ari kureba inyuma, areba mugenzi we bamaze guhura.

Moto iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo itwawe n'umumotari ndetse n'umugenzi bambaye amakasike y'umuhondo, ikaba ifite na moteri y'umuhondo, ikaba ari ya moto igezweho ikoresha umuriro w'amashanyarazi.

Abantu bafite moto aho ari abamotari, bambaye kasike z'ubururu aho bari imbere y'ahacururizwa ibi binyabiziga, igihe cyose ukeneye ikinyabiziga cya moto wanyarukira aha hantu hanyuma bakakiguha.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'umunyegare usunitse ibicuruzwa avuye kurangura ku igare bigaragara ko uyu muntu ari umucuruzi, uyu muhanda rero ukikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Umugabo uri kugenda mu modoka, akaba yambaye agapfukamunwa ndetse kandi atwaye imodoka biragaragara ko ari umushoferi w'imodoka, ahagaze imbere y'inyubako nziza cyane.